Umugabo wambaye umupira w'umweru uhetse ipombo mu mugongo, ari gutera umuti imyaka, hirya hari urutoki hakaba hari n'undi muntu uhetse ipombo na we usa nkaho agiye gutera imyaka umuti.

Umuhinzi yambaye impuzankano yabugenewe ahetse ipombo ari gutera umuti imyaka ye kandi iyi myaka birasa nkaho isa neza kuko haguye imvura bityo bituma haba imyaka isa neza kandi n'uyu muhinzi akaba yarabigizemo uruhare bityo akaba azasarura umusaruro uhagije.

Umugabo muremure w'urukara wambaye umupira w'umukara w'amamaboko maremare, ahetse impombo mu mugongo ari mu murima w'umuceri, bigaragara ko uyu muceri ari kuwuteramo umuti wari wararwaye, none akaba agira ngo iyi ndwara itazongera gutera uno muceri.

Umuhinzi w'umuceri ahetse ipombo, bigaragara yuko ari gutera umuti muri uno muceri we, uwo murima we kandi ukaba ukikijwe n'ibiti bisa neza, bigaragara yuko aha hantu haguye imvura nyinshi ihagije.

Umuhinzi ari mu murima we w'ibigori bigaragara yuko afite ipombo ari kugenda atera umuti bino bigori bigaragara yuko byari byararwaye, akaba ngombwa yuko abigurira umuti akaba ari kubitera kugira ngo bitazongera kurwara ubu burwayi.

Umurima uhinzemo ibihingwa bitandukanye harimo umuntu ufite umuti ari kugenda atera bino bihingwa, bigaragara yuko byari byararwaye none bakaba bari kubiteramo umuti bikaba bikikijwe n'ibiti birebire bigaragara yuko aha hantu hahinze ibiti byinshi.

Umugabo wirabura wambaye umupira w'umutuku uciye amaboko n'ipantaro, ahetse ipopo ari mu muririma w'amashu arimo aratera umuti aya mashu, hirya yawo hari ibihuru, bigaragara ko uyu muti ari gutera aya mashu uri ukugira ngo adapfa.

Umugabo wirabura wambaye ingofero y'umutuku n'isengeri y'umutuku n'ikabutura, ahetse ipombo ari gutera intoryi umuti, muri izo ntoryi harimo n'urutoki, hirya y'urwo rutoki harimo amazu bigaragara ko hatuye abantu.

Amazi aretse ahantu bigaragara yuko bahororeramo amafi, hirya y'aya mazi hakaba hari urutoki rushishe bigaragara yuko aha hantu kubera aya mazi ahegereye hari ibimera byiza bisa neza kubera ko byabonye amazi ahagije.

Inzu yubakishijwe amatafari ahiye ikaba isakajwe amabati y'ubururu n'umweru, imbere yayo hari ibyuzi bibamo amafi bikikijwe n'ubwatsi butoshye, hirya hari n'ibindi biti birebire bigaragara nk'aho ari ahantu mu kibaya.

Umugabo uhagaze ahantu bororera amafi yambaye isurubeti y'ubururu, ingofero n'amarineti afashe amafi mu ntoki bigaragara ko amaze kuroba aya mafi.

Uruzi rurimo abarobyi babiri bicaye mu bwato, umwe afite igikoresho bakoresha baroba, undi aricaye ari kumufasha gushyiramo icyo gikoresho kugirango babone uko baroba amafi.

Umugabo w'biri yombi wambaye umupira w'umuhondo uciye amaboko, ari mu mazi bigaragara yuko ari nk'aho bororera amafi, akaba hijya y'aho bororera amafi, hari ubutaka buhinzeho ibiti birebire, hirya y'ibi biti na none hakaba hari ubwatsi bigaragara yuko ahantu haguye imvura ibyatsi biramera.

Umugabo munini w'urukara wambaye umupiru uciye amaboko w'umuhondo, ateruye ibafu irimo amafi akaba ahagaze iruhande rw'ahantu bororera amafi, bigaragara ko ari kuroba amafi.

Abantu bafite ibikoresho bakoresha baroma amafi bari impande y'icyuzi kibamo amafi, icyo cyuzi kikaba gikikijwe n'ibyatsi bisa nk'ibishishe bigaragara ko ahantu kubera aya mazi hari ibimera bishishe.

Abantu bari gutembera hejuru y'ibyuzi bisa nkaho ariho bororera amafi, bakaba bari nko kuhatemberera kugira ngo barebe ubworozi bwabo niba buri kugenda neza kandi ibi byuzi bikikijwe n'ibiti birebire, bisa nkaho ahantu haguye imvura ituma ibiti byaho bisa neza.

Agace k'imisozi miremire karimo ibyatsi bishishe hakaba hari uruzi rusa nkaho bororeramo amafi, kandi hakaba hari n'inzu isakaje amabati hirya y'iyo nzu hakaba hari urutoki rukiri rutoya bisa nkaho ruri gukura.

Umugabo muremure w'ururukara wambaye ingofero n'ishati n'ipantaro' afite indobo mu ntoki, ahagaze imbere y'amazi, bisa nk'aho ari aho bororera amafi, indobo irimo ibiryo ari kugaburira ano mafi.

Umurima w'urutoki uri hafi y'amazi, amazi akaba abifasha kusa neza, urabona ko bishishe, hirya y'uru rutoki kandi hariyo amazu, urabona ko uyu ari umudugudu abantu basanzwe bifashisha babamo, kandi hakaba hari n'ibyatsi hirya y'uru rutoki.

Umugabo muremure w'urukara wambaye umupira w'icyatsi n'ipantaro y'umukara, arikumwe n'undi mugabo wambaye ikabutura, uwo mugabo wambaye umupira w'icyatsi akaba afite ifi mu ntoki, bigaragara ko bavuye kuroba ifi.

Icyuzi gisa nkaho bororeramo amafi abantu baje ari benshi barahakikiza bisa nkaho bari kuroba, hirya yaho hakaba hari inzu nziza iteye irangi ry'umweru, isakaje amabati y'umutuku, ikaba nayo ikikijwe n'ibiti bishishe, bigaragara ko ahantu haguye imvura bityo ibyatsi byaho bisa neza.

Umugabo wambaye ipantaro y'umukara n'inkweto zifunguye n'ishati y'icyatsi afite ibafu mu ntoki, ahagaze imbere y'amazi bigaragara ko yorora amafi akaba ari kuyagaburira.

Icyuzi kinini gisa nkaho kibamo amafi hirya yacyo hari umurima uhinzemo ibiti, ibi biti birasa neza nkaho bituriye amazi kandi hirya y'ibi biti hakaba hagaragara amazu bisa nkaho ari mu mudugudu abantu batuyemo.

igiti kiriho ikawa nyinshi cyane bigaragara ko iyi kawa yeze neza, gusa iyi kawa ikaba itarera kuko harimo iy'umuhondo itarahisha, hakaba harimo iyiganjemo y'icyatsi bigaragara ko iyi kawa itarera.

Umurima munini uhinzemo icyayi, icyayi kikaba gisa nk'ikigeze igihe cyo gusarurwa kuko amababi yacyo yarakuze, muri uwo murima w'icyayi harimo inzu yubakishijwe amabati bisa nk'aho ari ubikiraro bw'icyo cyayi, hirya yaho hakaba hari ibiti birebire.

Umumama munini w'imibiri yombi witeze igitambaro mu mutwe gitukura, ari mu murima ari gusarura ikawa bigaragara ko bari mu gihe k'isarura.

Abaturage bari mu murima w'icyayi bakaba bari gusoroma kuko bafite ibintu bari gushyiramo iki cyayi inyuma yabo kandi none uno murima ukaba icyai gishishe bigaragara yuko babonye imvura ihagije igatuma imyaka yabo yera neza.

Umugore n'abagabo babiri bahagaze mu murima w'ikawa, inyuma yabo hari ibiti n'urutoki, iyo kawa harimo ihishije itukuye hakabamo n'indi mbisi ikiri icyatsi kibisi.

Abagore babiri bahetse ibitebo bari mu muririma wi'cyayi bari gusoroma iki cyayi, iki cyayi kandi biragaragara ko gifite amababi meza cyeze neza kuko cyabonye imvura ihagije.

Umurima munini uhinzemo imyaka bisa nk'aho ari mu gihe k'imvura kuko iyi myaka iri gusa neza, hirya yayo hakaba hari imisozi miremire, nanone hakaba hari ibiti birebire bigaragara yuko hahinze ibiti.

Umurima urimo icyayi cyeze neza, biragaragara ko aha hantu icyayi gihehinze ari mu gace k'imisozi miremire, umurima w'icyayi ukaba ukikijwe n'ibiti nanone birebire, bigaragara yuko aka gace kabonye imvura ihagije bigafasha ibi bihingwa bihari kumera neza.

Igiti k'ikawa kiri mu murima ibigaragara hariho ikawa yeze itukura, hakabaho ikawa y'ibitumbwe igisa icyatsi kibisi igaragara, iyi kawa y'umutuku igeze igihe cyo gusarurwa.

Umugore wambaye umupira utukura w'amaboko aciye ari mu murima w'ikawa, harimo igitebo ari gusoromeramo ino kawa, iyi kawa biragaragara ko igeze igihe cyo kwera kuko amababi yayo ameze neza, biragaragara ko hano habonye imvura ihagije bigafasha ikawa kwera neza.

Umurima munini witegeye ahantu hejuru ku gasozi ukaba uhinzwemo icyayi kikaba kigeze igihe cy'isarurwa, hakaba harimo n'ibindi biti birebire.

Umumama munini w'imibiri yombi ari mu murima w'ikawa bisa nkaho iyi kawa igeze igihe cyo gusarurwa indi ikira ibitumbe, iyi kawa ikaba ikiri ku biti byayo uyu mumama asa nkho ari kuyitoranya asarura iyeze.

Umugore wambaye ikote n'igitenge mu mutwe, ari mu murima w'ikawa itukura, bigaragara ko yeze ikabageze igihe cyo kuyisarura, nawe akaba ari kuyisoroma bigaragara ko ari kuyisarura.

Umurima muremure cyane uhinzemo icyayi, biragaragara yuko iki cyayi gitoshye kuko aha muri no misozi haguye imvura nyinshi. Bityo imyaka irimo hano irera neza, akaba aricyo gituma icyayi gisa neza.

Abahinzi babiri b'icyayi, barimo gusarura icyayi bigaragara ko iki cyayi kigeze igihe cyo kwera kuko bari kugisoromera mu gitebo bafite, inyuma yabo hakaba hari ibiti birebire bigaragara ko aha hantu ari ahantu h'imisozi miremire.

Umugore w'imibiri yombi wambaye ingofero itukura, ari mu murima w'icyayi bigaragara ko ari kuyisoroma kuko ayifite mu ntoki. Ahetse n'ikindi gitebo cyo kujya ashyiramo iyo yasoromye, hirya ye hakaba hari inzu isakaje amabati.

Abahinzi b'icyayi bari mu cyayi bigaragara yuko bari gusarura igihe cy'isarura cyageze, iki cyayi kandi kikaba gihinze ahantu hahanamye, bigaragara ko ari mu gice cy'imisozi miremire cyane.

Umumama uri mu murima uhinzemo icyayi, arimo arasoroma kino cyayi kuko agifite mu ntoki, uko bigaragara kireze kandi kirashishe bigaragara y'uko iki icyayi cyabonye imvura ihagije, bityo kikaba cyareze neza.

Umugabo muremure w'urukara wambaye umupira w'umuhondo uciye amaboko ahagaze mu murima, uyu murima urabona yuko urimo ibihingwa bitandukanye harimo n'urutoki, uru rutoki rukaba rushishe bigaragara yuko uno murima agace urimo habonetse imvura ihagije.

Umumama ukenyeye igitenge afite igitambaro mu mutwe, ari mu murima afite umufuka mu ntoki, uwo murima ukaba uhinzemo imyaka, bigaragara ko avuye gusarura.

Ifamu nini irimo ibiti birebire ikaba irimo n'inka iri gucamo abantu, umuntu uri imbere afite igare ahetse ibintu biri mu mufuka bigaragara ko aba bantu bari kumwe bafite ahantu bagiye.

Umugabo muremure w'urukara wambaye ishati y'umweru ari imbere y'urugo rwe, hakaba hegeranye n'ikiraro cy'inka ye, iyi nka biragaragara ko ari in inzungu kandi nanone hirya yayo hakaba hari urugo ruzitije imiyenzi ituma iyi nka itabasha kuhaca ngo igende.

Abantu barimo abagore n'abagabo bari mu murima bafite amasuka n'ibindi bikoresho bifashisha bahinga, bigaragara ko bari guhinga ibirayi muri uno murima bahagazemo.

Umumama wambaye ipantaro y'umukara na rakositi y'icyatsi arunamye ari gutera igiti, hirya ye hari umumama ufite isuka mu ntoki bisa nkaho bari guterana ibiti.

Abagabo babiri basunitse igare ririho inkwi, iryo gare na none rikaba ririho isuka bigaragara ko aba bagabo bagiye guhinga, bakaba banacyuye inkwi bari bukoreshe bateka.

Ikiraro kirimo inka y'inzungu ikaba iri kumwe n'umushumba wayo akaba ari kuyikama yambaye ingofero y'umweru n'umupira w'umweru uciye amaboko n'ipantaro, akaba yambaye na bote uyu mushumba ko bigaragara ari gukama iyi nka kugira ngo babone amata yo kunywa no kuba bagurisha.

Inka ziri kurisha ziragiwe n'abashumba bazo, izi nka kandi zikaba ari inka zisa neza kuko zifite ubwatsi bwiza, hirya y'izo nka hari ibiti birebire binini bisa nk'ibikuze.

Abantu bambaye impuzankano bicaye imbere yabo hari undi muntu usa nk'aho hari kugira ibyo ababwira n'abo bicaye basa nk'abamuteze amatwi, bimeze nk'aho ari ikintu cy'ingenzi ari kubabwira cyabagirira umumaro.

Abantu bagizwe n'abagabo n'abagore bahagaze mu murima ubona ari intabire, hirya yaho hakaba hari urutoki bigaragara yuko iyi ntabire ari bo bamaze kuyihinga kuko urabona bambaye ibicocero n'imyenda yo mu murima.

Abagore babiri uri imbere yambaye ikanzu, uri inyuma yikenyeje igitenge yambaye umupira w'umweru, mu mutwe afitemo nawe igitenge afite umuhoro mu ntoki, bakaba bari ahantu ubwatsi bwinshi cyane.

Umugore ukenyeye umupira wambaye ikanzu, ari mu murima afite isuka, uwo murima ukaba urimo ibihingwa bitandukanye harimo urutoki, uwo muririma kandi ukaba urimo igiti kirekire kinini bigaragara ko cyihamaze igihe kinini.

URIrwuri rw'inka rurimo izi nka za kizungu ziri kumwe n'umushumba wazo zigaragara ko aho zi hari ubwatsi butoshye nta hantu harambuye bigaragara ko nta misozi miremire ihari kandi ahantutu hari ubwatsi bushishe nkahoa habonye imvura nyinshi bityo ubwatsi bu bukamera neza.

Urwuri rurimo inka za kizungu ziri kumwe n'umushumba wazo zikaba zimeze nk'iziri kurisha ubwatsi butoshye , hirya y'ubu bwatsi hakaba hari ibiti birebire bigaragara ko hano ari mu rwuri rusanzwe rurishamo zino nka.

Umugabo w'imibiri yombi ateruye igiti bisa nkaho bari gutera ibiti, ari kumwe n'abandi ariko aho bari kubitera haragaragara nk'ahari ibyatsi, bigaragaza yuko haguye imvura ihagije bityo bigatuma hera ibyatsi bisa neza.

Umurima uhinzemo ibigori urimo abahinzi bahinze bino bigori, bigaragara ko bino bigori bitaragera igihe cy'isarurwa, hirya y'ibyo bigori hakaba hariyo ibiti birebire bisa nkaho bikikije bino bigori.

Bafite amabafu bari mu murima bisa nkaho hari ibyo bari gusarura, bakaba bagiye kubicyura mu mago yabo bakajya kubigurisha cyangwa bamwe bakanabiteka.

Umuhanda ukikijwe n'ishyamba, igaragara umuhanda harimo abantu bari kugenda abandi baza, iryo shyamba rikikije uwo muhanda rikaba ririmo ibiti birebire.

Umuhinzi uri mu murima uhinzemo ibirayi, yambaye ga mu ntoki zituma atandura, biragaragara ko amaze gukura ibirayi bikiriho ibitaka, uyu murima we biragaragara ko wabonye ifumbire n'imvura bihagije bigafasha bino birayi kwera neza.

Umurima munini usa nk'urimo umuceri abantu bunamyemo barikuwugara, hirya yawo hariyo ibiti by'imikinga miremire bigaragara ko hano ari mu gishanga aho bahinga imiceri.

Ibirayi by'umweru bisa neza biragaragara nk'aho babikuye bakabirundira ahantu hamwe, ibi birarayi uko bigaragara byakuwe mu minsi mike ishize kuko biracyafite ibitaka byabyo, ibi birarayi kandi ukaba ubona y'uko wagira ngo biri ku isoko.

Umurima munini uri ahantu hitaruye hasa nko mu misozi, umurima ukaba uhinzwemo ibimera bisa icyatsi kibisi, hirya yabyo hakaba hateyemo n'ibiti birebire ubona bimaze gukura cyane.

Umurima munini uhinzemo ibijumba, ibi bijumba bikaba bigaragara ko bikiri bitoya kuko ntago biragera igihe cyo gukurwa, hirya yaho hakaba hari umurima wundi usa nk'aho nta kintu kirimo bahasaruye.

Umurima uhinzemo ibigori biragaragara ko ibigori byumye, hakaba hahinzemo n'ibindi bihingwa bitandukanye, hirya yaho hakaba hari amazu bigaragara hatuye abantu na none hakaba hari ibiti birebire bishishe bigaragara ko byabonye imvura nziza.

Ibirayi by'umweru birimo ibinini n'ibito, bigaragara ko ibi birayi bakiva kubikura kuko bisa nki'ibiriho ibitaka bitahita bitekwa ahubwo bibanza guhatwa kugira ngo bitekwe.

umurima munini wahinzemo ibigori, bigaragara ko ibigori bigeze igihe cyo gusarura kuko byarumye, hirya y'ibyo bigori hakaba hari ibihuru, bigaragara yuko batabibagariye.

Umurima munini uhinzemo amashu ateye ku murongo, hirya yawo hakaba hari ikindi kizu gihinzemo indi myaka itagaragara neza, aya mashu ndabona atarera.

Ishyamba rinini ririmo ibiti birebire, biragaragara yuko ahantu biri ari ahantu hari amashyamba kandi haba imvura nyinshi n'ubu harakonje cyane kandi n'ibiti byaho biratoshye biragaragara ko haba imvura.

Abaturage bicaye hasi, imbere yaboho hariho abayobozi batandukanye, abasirikare, abapolisi n'abandi, imbere yabo hari undi mugabo ufite indangururamajwi mu ntoki, bigaragara ko ari ukubwira ibyo bagomba gukora.

Ishyamba ririmo ibiti byinshi bitandukanye hakaba haje abantu barimo abagore n'abagabo n'abacunga umutekano kugira ngo bafashe aba baturage gukora isuku. Bikaba biri kwitwa umuganda, aho bafite ibikoresho bitandukanye nk'amasukari n'imihoro.

Umuririma munini uri ahantu hahanamye hasa nkaho hari imisozi. Umurima uhinzemo urutoki rwinshi hirya y'urwo rutoki harimo ibiti birebire bisa nkaho bikuze cyane.

Abantu bahagaze ku nkombe z'ikiyaga kinini, bigaragara ko ahantu hari umurima bahingamo, hirya y'uwo murima hari ibiti birebire bikikije icyo kiyaga kirimo amazi menshi.

Ifamu nini irimo ibiti binini, iyo famu ikaba na none irimo inka zirimo kurisha, bigaragara ko ino famu irimo ubwatsi bwiza bw'inka ziba zarya.

Umurima urimo ibiti, uyu murima urasan nk'aho uri ahantu hisanzuye nta bindi bintu byinshi birimo usibye ibiti bihagaze birebire, bisa nk'aho aha hantu nta bindi bihingwa bihahinzemo.

Umurima uhinzemo igiti kirekire aha hantu harasa nkaho ari mu misozi kuko hari igihu kibuditse nkaho haguye imvura nyinshi, bityo bigatuma imyaka ihari isa neza kuko iba yabonye imvura ihagije.

Umugabo uteruye imbuto zitandukanye akaba ari mu murima bigaragara ko uyu ari umuhinzi wihingira zino mbuto akazisarura akazijyana ku isoko akabona amafaranga agasagura n'izo arya.

Abagabo babiri n'umugore umwe, bahagaze ahantu bacururiza bisa nkaho bacuruza ibiribwa kuko hari inyanya, hakaba hari n'abandi bagabo bahagaze hirya yabo.

Umugore munini w'urukara wambaye ikanzu y'ubururu y'amaboko maremare, ari mu murima w'amatunda aho aya matunda arimo ahishije, hakaba hari ibitumbwe bigaragara yuko agiye gusarura ahiye akarekeramo atarashya.

Umugabo w'urukara muremure afite rozwairi mu ntoki zirimo amazi, ari kuvomera umurima w'amashu, ayo mashu uko bigaragara ntabwo arera, hirya y'ayo mashu hakaba hari ibiti biyakikije birebire.

Abantu babiri umwe wambaye ingofero itukura n'umupira w'umweru n'ipantaro y'umukara ,bari mu murima urimo ibihingwa, bari kuhira kuko urabona harimo uruhombo rufite amazi ari kuhirwa muri bino bihingwa.

Umugabo uri mu murima uhinzemo imyaka, akaba ari kuhiramo amazi muri uwo murima, bigaragara ko ari mu gihe k'izuba bari gushaka kugira ngo iyo myaka itazuma.

Umugabo w'umuhinzi wambaye bote z'umukara, ipantaro y'umukara, umupira uciye amaboko n'ingofero ari mu murima w'ibigori bikiri bito afite umupira w'amazi, arimo aruhira ino myaka ye kugira ngo ibashe gukura. Ikigaragara cyo aha hantu hari izuba ryinshi nta mvura yahabonetse kugira ngo iyi myaka yere.

Umurima munini uhinzemo imyaka, ukaba urimo icyuma cy'ikoranabuhanga cyabugenewe, cyuhiramo amazi bisa nk'aho ari mu gihe cy'izuba bakoresha iyo mashini buhira amazi mu murima.

Umumama munini w'urukara, ari mu murima uhinzemo amashu urimo murasire birasa nkaho ari kuvomerera kuko afite itiyo irimo amazi ari kumeneka nyine muri uyu murima.

Umurima munini uhinzemo amashu, ukaba urimo umugore usa nk'umuhinzi akaba ari kuhira ano mashu bigaragara yuko kano gace katigeze kabona imvura ihagije bikaba ngombwa yuko' bakoresha ubwabo buryo buhira ino myaka yabo.

Umuhinzi wari mu murima we arimo aruhira imyaka ye bigaragara ko ahantu yahinze nta mvura nyinshi ihari akaba yarifashishije bino bikoresho arimo aruhira imyaka ye kugira ngo itume.

Umurima uriya hantu homumisozi miremire, bakaba bari gukoresha ikoranabuhanga bavomerera iyi myaka, bigaragara ko iki gihe ari igihe cy'izuba bifashishije aya mazi kugira ngo iyi myaka ituma.

Umurima urimo imyaka bigaragara yuko barimo baruhiramo amazi na none kandiba ari agace karangwamo n'izuba kuko batigeze babona imvura ihagije, bagakenera kuhira ino myaka yabo bahinze.

Umurima munini uhinzemo ibihingwa, barimo barabyuhirisha amazi bigaragara y'uko aka gace ibi bihingwa biherereyemo, haguye izuba ryinshi rigatuma bazana ibintu byo kuhira kuko nta mvura nyinshi yigeze ihagwa.

Itsinda ry'abantu barimo abagore n'abagabo, hari umugabo ubahagaze hagati wambaye ingofero yumukara nishati yumweru yamaboko maremare nipantaro yumukara. Aba bantu barasa nkabavuye mu muganda kuko bafite amasuka bakaba bateraniye hano kugirango bagezweho ikiganiro gisoza uno muganda kugirango babashe gusubira mu mago yabo.

Mu murima uhinzemo ibigori ibyo bigori bikaba bikiri bitoya, abantu bakaba barimo barabibagarira hakaba harimo n'indi mashini ibifasha kuhira mu gihe k'izuba.

Umurima munini urimo ibihingwa, ukaba urimo umurasire, ukaba unarimo robine yifashishwa bavoma amazi buhira ino myaka, ikigaragara ko ino myaka irashishe ibona amazi ku gihe.

Umurima munini uhinzemo imyaka, Uwo murima kandi ukaba urimo icyuma cy'ikoranabuhanga kiri gufasha kuhiramo amazi, ikigaragara cyo biri mu gihe cy'izuba bikenerwa yuko bifashisha amazi kugira ngo imyaka itumva.

impombo zitwara amazi mu murima biragaragara ko uyu murima urimo ibitunguru , ibitunguru bikaba byara byifashishije aya mazi babyuhira, bigaragara yuko ahantu turi mu gihe cy'izuba kuko bifashishije aya mazi buhira ibi bihingwa.

Umurima urimo imyaka, iyo myaka ikaba yuhirwa n'amazi kugira ngo izuba ritayica, akenshi biba igihe cy'izuba kuko ndabona ikigaragara cyo imyaka imeze neza, nubwou hari izuba kubera bayuhira.

Ikibaya gihinzemo umuceri bigaragara ko hirya y'aho hari abaturage kuko hari amazu na none hakaba hari ibiti birebire bigaragara, hari n'imisozi iri kugaragarira buri wese.

Umurima urimo ibihingwa bisa neza kandi aha hantu hari bino bihingwa, haragaragara nk'ahantu hari imisozi miremire kandi nanone ibi bihingwa ukuntu bisa neza biragaragara ko byabonye imvura nyinshi kandi ku gihe.

Umurima uhinzemo imyaka bigaragara ko hano ari ahantu hirengeye h'imisozi miremire, kuko hirya urabona hari igicu bigaragara ko kandi turi mu gihe k'imvura kuko harakonje bigaragara.

Ishyamba rikikije ikiyaga iryo shyamba akaba ririmo ibiti birebire, ikiyaga kikaba kirimo amazi menshi, hirya yaho hakaba hari imisozi miremire yakikijwe n'ikibunda kubera ubukonje bw'amazi.

Agace k'imisozi miremire karimo ibiti bishishe, biragaragara yuko ahantu hatuwe n'abantu kuko hari amazu kandi ibiti biri muri kano gace birashishe nk'aho kano gace kabonye imvura ihagije bigatuma ibimera byaho bimera neza.

Umurima munini uri ahantu hahanamye h'imisozi, uwo murima ukaba urimo abantu basa nkaho bari guhinga kuko bafite amasuka, uwo murima ukaba urimo urutoki, hirya yawo hakaba hari ibiti birebire, binini.

Agace karimo ibihingwa bitandukanye birasa nk'ibihinze mu materasi y'indinganire, aka gace kandi kakaba kagizwe n'imisozi miremire hakaba hateyemo ibiti bisa neza cyane bigaragara ko aka gace gafite imvura ihagije ituma bino bimera bikura neza.

Umuririma uhinzemo ibigori byinshi hirya y'ibyo bigori hakaba hari imisozi miremire bigaragara ko kano gace karimo imisozi myinshi, haba hagati y'iyo misozi harimo amazu yubatse.

Umudugudu utuyemo abantu kuko harimo inzu, hakabamo imirima irimo ibitoki, hirya y'ibyo bitoki hakaba hari ibiti n'imisozi, bigaragara ko ah aari agace abantu batuyemo.

Umurima urimo ibihingwa bishishe uri ahantu h'imisozi miremire, biragaragara yuko aha hantu habonye imvura nyinshi kuko, ibihingwa birimo birasa neza, bigaragara yuko, bigiye kuzagera mu gihe k'isarura bakabisarura.

Umurima munini uri ahantu hasa nko mu misozi miremire, uwo murima ukaba uhinzemo imyaka itandukanye harimo urutoki n'ibindi. Ni umuririma bigaragara ko harimo imyaka ishishe nk' ahari imvura.

Inzu yororwamo inkoko za kizungu, iyo nzu kandi ikaba imennyemo ibiryo by'izo nkoko hasi, hakaba harimo n'akantu kabugenewe baheramo izi nkoko amazi, hirya hakaba hari ibintu byubatse bisa nk'aho ariho inkoko zitaha.

Inka nyinshi z'inzungu ziri mu rwuri rwazo. Uru rwuri rukaba rurimo ubwatsi bwiza bigaragara ko hari n'abashumba bazo baje kuziragira kandi muri urwo rwuri hakaba harimo n'ibiti birebire. Urwuri rukaba rugaragara nk'ururi ahantu hahanamye h'imisozi miremire.

Ikiraro kirimo inka z'inzungu bigaragara ko hahagaze abantu bita kuri izi nka kandi bikaba bigaragara yuko iki kiraro cyubakishijwe ibyuma bikomeye n'amabati agezweho.

Inzu irimo inkoko za kizungu, bigaragara ko iki ari ikiraro bakoresha abororaza inkoko, kuko harimo ibiryo byazo, hakabamo aho zinywera amazi.

Inkoko za kizungu ziri mu kiraro cyazo cyabugenewe, iki kiraro kikaba ari gifasha zino nkoko kubamo hakaba harimo agakoresho kabugenewe zikoresha zinywa amazi, izi nkoko mu bigaragara zimeze neza.

Icyumba kinini bororeramo inkoko za kizungu bigaragara ko izi nkoko ziri imbere y'ibiryo byazo, iki cyumba kandi kikaba cyubakishijwe amatafari ahiye kiriho umuryango wubakishije ibyuma.

Urwuri rw'inka rugaragara rurimo inka z'inyambo zifite amahembe ateze, urwuri rukaba rurimo ubwatsi bwiza, mu bwatsi hirya yabwo hakaba hari ibiti birebire bigaragara yuko aha hantu haguye imvura nyinshi ubwatsi n'ibiti bigashisha.

Inka z'inzungu ziri mu ifamu nini iyi famu ikaba irimo ubwatsi bushishe, bigaragara ko ari mu gihe k'imvura muri'iyo famu kandi hakaba harimo ibiti binini birebire bigaragara yuko hariho igihe kiza.

Icyumba gisa neza bororeramo inkoko za kizungu, zikaba ari inkoko zifite isuku mu bigaragara kuko harasa neza cyane, izi nkoko igaragara byo zikaba zitaweho cyane kuko nta kintu kibi kirimo muri kino cyumba.

Ikiraro cy'ingurube cyubakishijwe ibiti bitambitse ibindi bihagaze, iki ikiraro uko bigaragara cyubatswe neza kuko gifasha izi ngurube kubona aho zirara, zikabona aho ziba.

Inka za kizungu ziri mu rwuri rwazo bigaragara ko zirimo zirarisha, izo nka zikaba zicunzwe n'umushumba uziragiye, zikaba ziri mu isambu irimo ubwatsi bwiza hirya y'iyo sambu hakaba hari ibiti birebire.

Umugore ari ahantu yanitse ibigori bimennye kuri shitingi, ibi bigori biragaragara ko byeze neza kuko birasa neza, hirya y'ibi bigori bikaba bimennye ahantu hari ibyatsi.

Abantu barimo abagore n'abagabo bahagaze mu murima, hirya yabo hamenye ibigori biri hejuru y'ibigoshogo byabyo, bigaragara yuko baje kureba umusaruro basaruye.

Inka ziri ahabugenewe bigaragara ko inyuma yazo hari abavuzi b'amatungo, bigaragara ko izi nka zirwaye bakaba baje kuzikingira, hirya hari inka, hakaba hari ifamu nini wagira ngo niho zirisha.

Umuvuzi w'inka wambaye impuzankano yabugenewe bakoresha bari kuvura, igisurubeti cy'ubururu, yambaye ga z'ubururu, ari impande y'aho inka ziri bigaragara ko agiye kuzikingira.

Umuganga w'amatungo yambaye imyenda yabugenewe ari zo mpuzankano, yambayega mu ntoki bigaragara ko ari ahantu hari inka agiye kuzikingira kuko wenda zari zirwaye, hirya ye nanone hakaba hari ibyatsi izo nka zikoresha ziri kuririsha.

Abavuzi b'amatungo bari mu cyumba bavuriramo amatungo, bigaragara bambaye impuzankano yabugenewe bakoresha iyo bari kuvura, bakaba basa nk'abari kubaga rino tungo ryari ryagize ikibazo cy'uburwayi.

Abavuzi b'amatungo bari mu kiraro k'inka aho bigaragara ko ino nka yagize ikibazo bakaba baje kuyivura, kino kiraro kikaba cyubakishijwe n'ibiti hejuru gisakaje amabati.

Umuvuzi w'amatungo ahagaze mu ikiraro cy'inka y'inzungu, akaba asa nkaho ari kuyivura kuko ibigaragara yari irwaye. Iki kiraro kandi kikaba cyubakishijwe n'ibiti bimeze neza n'amabati asakaye. Kino kiraro hirya yaho bikaba bigaragara ko hariyo inzu z'abantu batuyemo.

Inka z'inyarwanda nziza ziri mu rwuri rwazo bigaragara ko uruwuri rurimo ubwatsi bushishe hirya inka ziri hakaba hari inzu isakaje amabati atukura, nanone hakaba hari ibiti birebire bigaragara ko ahantu hari imvura nyinshi ituma ibimera bimera neza.

Abagabo bambaye ibikoresho byifashishwa bari kuvura bahagaze hejuru y'inka, umwe ari kuyidoda, bigaragara ko iyi nka yari yakomeretse noneho bakaba bari kuyidoda kugira ngo ikomeze igire ubuzima bwiza.

Inzovu ziri mu ishyamba, iri shyamba rikaba ririmo ibyatsi zirya, hamo ibyatsi bimaze kuma. Izo nzovu ni utwana hari n'izindi ziri iruhande rwayo.